Inzoga nyinshi, ziri mu macupa y'amabara atandukanye, zitondetse ku meza, muzaze mwinywere inzoga, karibu ku giciro kiza.

Isahani y'umweru iriho ibitunguru bikase neza by'umutuku, indimu y'icyatsi, inyama itetse neza mu mavuta, n'imboga zituma tugira ubuzima bwiza.

Inzu irimo intebe zisize irangi ry'umuhondo n'umukara, ameza atondetse a ariho ibitambaro by'umutuku, amatara meza ari kwaka umuhondo, ibiti byiza bikikije iyo nzu bituma tubona umwuka mwiza. Muzaze tubakire namwe.

Umugabo uhagaze mu kabari wambaye ishati y'umweru. Akabari karimo inzoga nyinshi z'amoko menshi atandukanye. Muzaze tubagurishe inzoga, tugurisha ku giciro cyiza.

Inzu yubakishije amabuye asize irangi ry'umukara n'umweru, inkingi z'ubururu zisize irangi ry'umuhondo, hamanitseho ibitambaro by'amabara atandukanye, muze tubagurishe ibitambaro byiza.

Inzu yubakishije amakaro y'umweru, isize irangi ry'umweru n'icyatsi, icururizwamo ibicuruzwa, hicayemo abagore babiri, umwe arahagaze, undi aricaye, muzaze tubagurishe, ibicuruzwa byose birahari.

Abakobwa bicaye ku byarahani, badoda ibitenge byiza by'amabara atandukanye, inzu yubakishije amakaro y'umutuku n'umweru, inzugi z'ibyuma, muzaze tubadodere, tudoda amoko yose y'imyenda.

Umugabo uhagaze wambaye ishati yumweru, ipantaro yicyatsi ari gukata amarindazi, kandi amaze gushya ari ku isahani yumweru, ateretse ku meza muzaze tubaranguze amandazi ni meza araryoha.

Inzu yubakijije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umukara, umuhondo, umweru, indabyo nziza, zifite irangi ry'umuhondo, muze tubacumbikire hano.

Inzu isize irangi ry'umweru n'icyatsi. Icururizwamo amata, imigati, amarindazi. Hicayeho abakobwa babiri muzaze tubagurishe amata agira intungamubiri, amarindazi turayarya tukagira ubuzima bwiza.

Inzu y'amakaro ifite inzugi z'ibyuma zisize irangi ry'umuhondo ,icururizwamo imigati, imineke, imbuto, amata. Ni karibu tubagurishe neza ku giciro cyiza.

Icyapa cyerekana ibicuruzwa tugurisha, harimo ibyoku kurya, ibyo kunywa, imigati, fanta, amaji, inyange, sorwatome, korugate, amata. Ni karibu muze tubagurishe ibicuruzwa byacu ni byiza.

Inzu ihagazemo abantu bacururizamo ibitenge, imyenda, imisego yo kuryamaho, ni karibu tubagurishe neza k'umyenda n'imisego myiza.

Inzu zisize amarangi atandukanye, zubakishijwe amakaro, zicururizwamo ibyuma, sima, ibitenge, amabati y'umweru, zidoderwamo imyenda ni karibu tubagurishe ibyuma, amabati, igiciro cyiza tuba tudodan'imyenda.

Imyenda myinshi itanditse hanze ku ihema, amasogisi atanditse ku biti，ibitenge, ibitambaro, imikandara，muzaze tubagurishe, tugurisha ku giciro kiza，ntabwo duhenda.

Igikarito kirimo amavuta ashushanyijeho inka n'amatoroshi, n'andi mavuta afite imifuniko y'ubururu, uburoso bwo gukubisha amenyo, imakasi muze tubahe ku mavuta atuma tugira uruhu rwiza.

Inyubako ndende isize irangi ry'umuhondo ibirahuri by'umweru, abantu benshi bicaye hanze, abandi barimo imbere, imodoka iparitse iruhande rwayo, bazaze hitwa kuri goyiko icururizwamo ibicuruzwa byose imyenda, inkweto ni karibu.

Isoko ririmo abantu bari gucuruza imbuto zirimudupaniye, harimo amaronji, imineke, amatunda, indemu karibu muze tubagurishe ku giciro cyiza.

Ibikarito bitondetse birimo umunyu, biswi, amaji, amata y'abana muzaze tubagurishe amata ni meza ku bana atuma bakura bafite ubuzima bwiza.